Umugabo ufite umupira mu ntoki akaba arimo kuhira amazi mu murima mu rwego rwo kugira ngo ibihingwa bimere neza. Yambaye agapira ka rakosite k'amaboko magufi, ingofero y'urugara, ipantaro y'ikoboyi na bote akaba ahagaze mu kibaya.